Tugira inzego z'umutekano ziba zitandukanye. Tugiramo abadaso bajya bagira umwanya, bagakora inama bakareba ibyagenze neza n'ibitaragenze neza. Bagakosora ibyagenze nabi, bagafata ingamba ,ibyo bagezeho bakagumya gusigasira umutekano muri rusange.

Tugira inzego z'abacungamutekano habamo abapolisi bacunga umutekano neza, bacunga umutekano bitangira igihugu cyacu, baba abagore cyangwa abagabo buri wese yaba umucungamutekano.

Tugira abashinzwe umutekano baba batandukanye，hari abashinzwe kuzimya amazu yatatswe n'inkongi y'umuriro，bazana imodoka ikazimya umuriro ahantu hakazima，umuriro ntiwongere kwaka.

Tugira inzego z'umutekano ziba zitandukanye haba Abapolisi , Abasirikare, Abadaso, barinda umutekano w'igihugu cyacu muri rusange . Barinda umutekano w'abantu n'ibintu bikorerwa mu gihugu.

Tugira inzego z'umutekano ziba zitandukanye. Habamo : abapolisi, abasirikare, abadaso. Bage begeranya abantu bakabaganiriza, bakababwira ko buri muntu wese afite inshingano zo kwita ku mutekano we, ndetse n'umutekano w'igihugu muri rusange.

Mu Rwanda tugira umutekano uhagije habamo abacunga umutekano batandukanye nk'abasirikare, bakora nk'ingabo z'igihugu bagira mu nshingano umutekano w'igihugu cyacu.

Mu Rwanda tugira inteko rusange y'abaturage, habamo abayobozi baba bayiyoboye, bungurana ibitekerezo bagatanga inama, bakiga ku iterambere ry'igihugu cyacu, bagafata n'umwanzuro wo gukumira, bimwe na bimwe.

Inama ni nziza cyane, haba inama y'abaturage, haba n'inama y'abayobozi ku giti cyabo, bungukiramo ibitekerezo. Batanga ibitekerezo biba bitandukanye. Bafata imyanzuro ku bintu byinshi bibaba bitandukanye, baharanira iterambere ry'igihugu cyacu no kwiteza imbere muri rusange.

Inama ni nziza cyane haba inteko rusange y'abaturage hakaba n'inteko y'abayobozi higirwamo ibintu biba bitandukanye hatangirwamo ibitekerezo byinshi cyane hafatirwamo n'imyanzuro y'ibintu byinshi biba bitandukanye.

Mu rwanda bagira inama ziba zitandukanye. haba inama y'abayobozi ku giti cyabo, haba n'inama y'abaturage mbere yuko haba inama y'abaturage, abayobozi barabanza bakicara bagakora inama. Bagategura ibyo bazabwira abaturage, bakiga ku iterambere ry'Igihugu. Bagafata umwanzuro bagakumira bimwe na bimwe babona byabangamira Igihugu cyacu.

Haba inteko ziba zitandukanye， hari inteko y'abayobozi bacu，haba inteko rusange y'abaturage bose，higirwamo ibintu biba bitandukanye， higirwamo iterambere ry'igihugu cyacu， higirwamo umuco gakondo， higirwamo gufata ibyemezo，ku bintu byinshi biba bitandukanye.

Ni byiza cyane kwitabira inteko rusange. Twungukiramo ibintu byinshi biba bitandukanye, twungukiramo inama nyinshi cyane ziba ari ingenzi mu buzima bwacu, habamo kumva uko igihugu cyacu gihagaze, iterambere ry'umuturage ku giti cye, iterambere rya buri muntu wese ushaka kwitabira inteko rusange. Ni byiza rero ko twakwitabira inteko rusange, kugira ngo tugire iterambere rirambye, cyane ko ari na wo musingi w'iterambere ryacu.

Mu muco nyarwanda habamo kubumba, babumba ibintu byinshi biba bitandukanye, bakura ibumba mu gishanga bakarijyana kwibumbiro, babumba utuntu bashyira mu mbaburara, babumba inkono, ibibindi n'ibindi byinshi cyane.

Mu muco nyarwanda, abari n'abategarugori baba bazi kugosora, nk'iyo imyaka yeze nk'ibishyimbo, barabisarura, bakabihura, bakabigosora, bigahunikwa mu bigega no mu mitiba.

Mu muco wacu habamo ibikoresho byinshi bya gakondo habamo inkangara bashiramo ibintu byinshi biba bitandukanye bashiramo ibishimbo amasaka amajeri n'ibindi byinshi bayijyana gutura bagenda abayikoreye.

Umuco nyarwanda haba ivu, barihungiza amasaka, bakayasereka, yamara kumera barayanika, yakuma bakayashesha, bakuramo umusururu, ivu rituruka mu bishangara; barabitwika byamara guhora bikavamo ivu.

Mu muco nyarwanda tugira imbyino gakondo ziba zitandukanye. Abakobwa babyina gushayaya, baba bambaye imikenyero, bambaye amayugi, bateze urugori, bambaye urunigi mu ijosi, bakabyina cyane rwose abantu bakizihirwa.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho gakondo. Habamo imisambi, habamo ingobyi. Ingobyi bahekamo umuntu warwaye ategera ahantu ku muhanda, bakamujyana bakamugeza ku muhanda, cyangwa bakamujyana bakamugeza ku bitaro.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho gakondo biba bitandukanye, habamo inkono; ni igikoresho gikozwe mu ibumba barakibumba, kigahinduka inkono, bagitekamo ibiryo, biba biryoshye rwose.

Mu muco nyarwanda haba ibikoresho gakondo biba bitandukanye. Haba igisabo. Igisabo ni igikoresho cyiza cyane bashyiramo amata bakayacunda. Amata akavamo amavuta bakayisiga cyangwa bakayateka, bakayarya mu biryo.

Mu muco Nyarwanda habamo imbyino gakondo ziba zitandukanye habamo imbyino abakobwa babyina bashayaya baba bambaye imicyenyero, bambaye amayugi, biteze urugori. Abahungu nabo bakomeraga amashyi.

Mu muco nyarwanda haba ibikoresho gakondo biba bitandukanye, habamo igikoresho cy'umuduri kiba gifite agasinga kiziritse no ku giti ,bacuranga injyana ziba zitandukanye z'umuziki mwiza cyane rwose.

Mu muco nyarwanda tugiraga ibikoresho gakondo biba bitandukanye. Tugira umuvure bawengeramo ibitoki, tugira uducuma banyweramo inzoga, umutobe cyangwa umusururu, tugirara n'ubutanda bifashisha bari kwenga, bakamura ibikatsi.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho gakondo biba bitandukanye, habamo ibisabo biba mu rubohero; abakobwa bajyayo bagacunda amata, bakiga n'indi mirimo itandukanye ikorerwa mu rubohero nko kuboha, n'ibindi byinshi cyane.

Mu muco nyarwanda habamo imbyino gakondo, habamo imbyino ziba zitandukanye habamo guhamiriza guca umugara, habamo ibyivugo abahungu babyina bambaye amayugi, bambaye imigara bafite icumu mu ntoki bafite n'ingabo.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho gakondo biba bitandukanye. Habamo n'isekuru. ni igikoresho bakoraga mu giti, bakakibaza neza cyane. Bagacukuramo umwanya basekuriramo ibintu byinshi, biba bitandukanye. Basekuriramo isombe, ubunyobwa, ubugari bwo kurya, soya, kiba gifite n'umuhini basekuza.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho gakondo biba bitandukanye, habamo: uduseke, inkoko, ibyibo, udutambaro, imikufi baba barabidoze bakabitanaga neza cyane rwose, biba bisa neza cyane.

Mu muco nyarwanda habagamo abami. Abami bayoboraga ibihugu bagaga bafite inshingano zo kwagura ibihugu. Abana b'abami bitwaga ibikomangoma iyo umwami yatangaga, umwana we imbuto zabaga zereye ni we wamusimburaga. Mama w'umwami yitwaga umugabekazi, umugore w'umwami akitwa umwamikazi.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho gakondo biba bitandukanye habamo ingoma, habamo imirishyo, ni uduti bakomesha ingoma, abavuzi b'ingoma bitwa bakaraza, baba bambaye neza cyane bambaye umukenyero, ingoma bazishyira kw'izuba bakazosa kugira ngo zibashe kuvuga cyane.

Mu muco nyagwanda bengaga ibitoki bagashiramo urubetezi bagatara ugwagwa bakarutara mu gwina hashira umunsi umwe bagafata umuheha bakajomba mugwina bakumva ko ugwagwa rwahiye basanga gwahiye bakagwarura bakarunywa

Mu muco nyarwanda habamo imbyino za gakondo ziba zitandukanye guhamiriza bambaraga incunda amayogi bafata ingabo n'icumu bavugiriza ingoma.

Umuco nyarwanda tugira imbyino gakondo，intore zibyina zambaye imikenyero， zambaye amayugi， zifite ingabo mu ntoki n'icumu， zigahamiriza cyane， zikabyina cyane ，abantu bakizihirwa， bakanezerwa.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho gakondo biba bitandukanye. Habamo isekuru， ni igikoresho kibajijwe mu giti，gifukuyemo umwanya， kigira n'umuhini， basekuriramo ibintu bigiye bitandukanye， ifu y'ubugari， ubunyobwa， basekuriramo n'imiti gakondo， n'ibindi byinshi cyane.

Mu buryo bwo kubungabunga umuco nyarwanda haba ibibumbano biba bitandukanye, haba ikibumbano cy'ingagi cyerekanako mu Rwanda haba ingagi. Ingagi ni inyamaswa ziba mu birunga zikurura ba mukerarugendo, zinjiza amadovize u Rwanda rwacu rugatera imbere.

Mu muco nyarwanda haba imbyino gakondo ziba zitandukanye, haba n' imyiyereko, bakabyina imbyino baba baritoje, abasore babyina bambaye amayugi, bambaye inkanda, bambaye imigara, bafite ingabo mu ntoki n'icumu, baca imigara, abantu bakanezerwa cyane rwose bakizihigwa.

Mu muco Nyarwanda haba ibikoresho biba bitandukanye, haba inzuzi z'ibyatsi zitwaga ibigonyi, n'inzu ziba zikozwe mu byatsi ziba zishinzemo igiti hagati kigize iyo nzu yose. Haba hariho n'ibiti by'imbariro, inzu nziza ntabwo iva, ntabwo imvura igera mu imbere.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho gakondo biba bitandukanye, habamo inkoko bariraho habamo imbehe habamo n'ibyibo, ibyibo bashyiramo umutsima, ku nkoko bariraho ibintu biba bitandukanye nk'ibishyimbo, n'imyumbati ku mbehe naho bashyiraho imboga.

Mu muco nyarwanda tugiraga ibikoresho gakondo biba bitandukanye habamo igisabo, n'igikoresho cyiza cyane bagicundiramo amata, barakijisha imigozi ibajijisha igisabo bayitaga imijishi.

Mu muco nyarwanda habamo imbyino gakondo, abakobwa babyina bambaye imikenyero, biteze urugori, abasore babyina bafite ingabo n'icumu, bambaye n'amayogi, abakaraza bavugiriza ingoma bakoresheje imirishyo.

Mu muco nyarwanda tugiraga imbyino gakondo ziba zitandukanye. Abagabo cyangwa abasore babyina bambaye inkanda n'amayugi, bambara imigara, baba bafite ingabo n'icumu mu ntoki zabo, bakabyina, bagaca imigara bose, abantu bakizihirwa bakishima.

Mu muco nyarwanda habamo ibikoresho gakondo bibaa bitandukanye, habamo ingoma, abavuzi b'ingoma bitwa bakaraza, ndetse uduti bavugisha ingoma batwita imirishyo, ingoma bazishyira ku zuba bakazosa kugira ngo zize kuvuga cyane.

Mu muco nyarwanda habamo imbyino gakondo ziba zitandukanye. Abakobwa babyina imbyino bambaye imikenyero, amayogi, bateze urugori, bagatega amaboko cyane. Abahungu baba babacurangira babyina imihamirizo, bigasusurutsa abantu bose.

Mu muco nyarwanda habamo ibikoresho biba bitandukanye; habagamo umuduri; umuduri ni igikoresho bakoresha bacuranga, kigira injyana ziba zitandukanye, bagikoresha mu birori, bagikoresha baririmba indirimbo nyarwanda n'izindi nyinshi cyane.

Mu muco nyarwanda haba ibikoresho gakondo biba bitandukanye haba agaseke, agaseke ni keza cyane barakaboha bifashisha ibikoresho bitandukanye habamo ibyatsi by'inshinge, uruhitirizo n'ubudodo bw'umufuka bakoresha.

Mu muco nyarwanda haba inyogosho ziba zitandukanye; abakobwa batega amasunzu, bakambara imyenda ibatandukanye, yabaga ipfutse igice cyo hejuru n'igice cyo hasi gusa, bakambara bakikwiza ntibagende bambaye ubusa.

Mu muco nyarwanda, tugira ibikoresho gakondo biba bitandukanye, habamo ingobyi igira imijisho ibiri, itwarwa n'abantu bane, babiri bakajya imbere, abandi babiri bakajya inyuma, bayihekamo abantu barwaye barembye cyane.

Muco nyarwanda habamo ibikoresho biba bitandukanye cyane, habamo uducuma, imiheha, inkangara, uducuma banyweramo inzoga mu gihe cy'ibirori, inkangara bakazikoreramo ibintu bitandukanye baba bagiye gutura.

Mu muco nyarwanda tugira inka zitwa inyambo, ni inka nziza cyane ziba ari inka nini zijyira amahembe manini, bazizana mu muco bari mu bitaramo barazerekana, ziba zambaye imitako ku mahembe, inka nziza cyane zitanga umukamo.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho gakondo biba bitandukanye, habamo ingoma zikoreshwa bari kubyina imbyino ziba zitandukanye, bazivuza bakoresheje imirishyo, abazivuza bitwa abakaraza, bazishyira no ku zuba, ibyo bita kuzosa.

Umuco nyarwanda kotsa runonko, ufata ibinonko ukabyubakamo akazu, ugashiramo inkwi, ugacanira, byamara gutukura ugashiramo ibijumba cyangwa imyumbati cyangwa amateke, ukayikubita byamara gushya, ukabyarura ukabirya, biba biryoshye.

Mu muco nyarwanda habamo ibikoresho biba bitandukanye cyane, urugero ikibindi, bagikoresha bashyiramo imisururu, bataramo inzoga wakoresha mu gihe cy'ubukwe.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho gakondo biba bitandukanye. Habamo umuduri. Ni igikoresho cyiza cyane bakoresha bacuranga, bagikoresha mu mbyino nyarwanda zitandukanye. Ni cyiza cyane rwose, gitanga umuziki mwiza abantu bakizihirwa cyane.

Mu muco nyarwanda haba umuco wo kuboha, boha ibintu biba bitandukanye hari: imisambi, ibirago babaheshaga ubukangaga cangwa ubusuna, baba bafite n'ibideyi cangwa ubudodo bw'umufuka. Ibyo bakoresha bakabiboha bakabitanaga cyane rwose, biba ari byiza babiryamagaho cyangwa bakabyicaraho.

Mu muco nyarwanda habamo imbyino gakondo, abakobwa babyina biteze urugori, bambaye imikenyero, bambaye amayugi, bagira n'imbyino babyina bikoreye uduseke, abahungu babakomera amashyi bakabavugiriza n'ingoma.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho gakondo biba bitandukanye, habamo imisambi, urusyo, inkangara, habamo n'inzu z'ibyatsi zitwa ibigonyi, n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu muco nyarwanda batema ibitoki bakabitara, byamara gushya bakabitonora, bakabyenga. Havamo umutobe bakawunywa, cyangwa bakawutaramo inzoga, bagashyiramo urwagwa, ab'umuryango bose babaga bitabiriye icyo gikorwa.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho gakondo biba bitandukanye, habamo inkoko bayiriraho ubugari, habamo inkongoro bazinyweramo amata, haba n'imimuna bashyiramo amata, haba n'ibindi byinshi cyane n'imidaho n'imyuko, baranaboha n'ibindi biba bitandukanye.

Mu muco nyarwanda habamo umuco wo kugosora, iyo imyaka yeze turayisarura tuyijyana mu rugo tukayihura, tukayigosora bayishyira ku ntara bakajya bahuha bakayinamo imishafu yose bakayitunganya neza bakayishyira mu mufuka yabugenewe.

Mu muco nyarwanda haba imbyino gakondo ziba zitandukanye abakobwa babyina bambaye imicyenyero bateze urugori, bambaye ibinigi bambaye amayugi, abasore babyina bambaye amayugi inkanda, imigara babavugiriza n'ingoma.

Mu muco nyarwanda habamo umuco wo kwivuga haba n'abavugira inka. Bazana inka bakayambika imitako mu ijosi no ku mahembe, baba bafite inkuyo bafite n'inkoni mu ntoki. Abavuga bavuga amagambo y'ubuhanga, utari Umunyarwanda cyangwa Umunyarwandakazi ntabwo wabasha gusobanukirwa ibyo avuze.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho gakondo, habamo n'uducuma, uducuma ni twiza cyane banyweramo umusururu, inzoga, umutobe, bashyiramo n'umuheha, bagakurura maze bikaza, bakanywa.

Mu muco nyarwanda tugirqa imbyino gakondo ziba zitandukanye. Abahungu babyina bahamiriza baba bambaye amayugi, imikenyero bambaye imigara, bafite icumu mu ntoki bafite n'ingabo.

Mu muco nyarwanda haba umuco wo kubumba, babumba ibintu biba bitandukanye, babumba inkono ibibindi n'ibindi byinshi, bakura ibumba mu gishanga ,bakicara bakabumba ,rivamo ibikoresho byiza cyane rwose.

Mu muco nyarwanda tugiramo ibikoresho biba bitandukanye:tugira ingoma, imirishyo, ingoma zivuzwa n'abakaraza bazivugiriza ababyinnyi babyina indirimbo nyinshi cyane, babyina indirimbo gakondo ziba zitandukanye.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho gakondo biba bitandukanye. Habamo uducuma， inkangara， imiheha， uducuma bashyiramo umusururu， cyangwa inzoga bagashingamo umuheha， bagakurura bakanywa. Inkangara batwaramo imyaka bagiye gutura.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho gakondo biba bitandukanye, habamo uduseke, ibyibo, uduseke tuba dufite imitemeri, bashyiramo ibishyimbo, amasaka, babijyanye gutwerera, ibyibo bashyiramo ifu n'ibindi byinshi cyane.

MU muco nyarwanda，habamo ibikoresho gakondo biba bitandukanye， habamo uduseke，inkangara bakoreshaga batwaramo ibintu， cyane mu bukwe，batwaramo amasaka， ibishyimbo n'ibindi byinshi cyane bakajya gutwerera.

Mu muco nyarwanda habamo itorero, mu itorero higirwamo imirimo itandukanye: higirwamo imbyino zitandukanye, habamo intore zihamiriza zambaye amayugi ,zifite ingabo mu ntoki, n'icumu mu ntoki, zigaca imigara ,abantu bagasusuruka, bakishima cyane.

Tugira ibikoresho byinshi biba bitandukanye bitanga umuriro, bitanga n'urumuri ducana mu matara haba pano cyangwa umurasire, ufata urumuri ruturutse ku izuba ukaruhinduramo umuriro, tugacana hakabona tukanacaginga amatelefone yacu.

Tugira amashanyarazi akomoka ku zuba， tukagira n'amashanyarazi akomoka ku ngomero z'amashanyarazi，haba amatara yo mu nzu，hakaba n'amatara yo mu mihanda，amatara ni meza cyane，atuma tuba ahantu hafite urumuri，tukagendera ahantu h'urumuri.

Tugira ibikoresho byinshi cyane by'ikoranabuhanga. Habamo ibikonjesha, ibishyuhisha ,hakabamo n'ibindi byinshi cyane twifashisha duteka n'ibindi twifashisha mu buzima busanzwe n'ibidufasha kugira ngo tugere ku iterambere rirambye.

Mu buryo bwo kwegerana n'Imana cyane habaho insengero abantu bahuriramo bagasengaga: Insengero z'abagatolika, iz'abarokore, iz'abadive, iz'abisilamu, iz'abayehova n'izindi nyinshi cyane.

Tugira inyubako nyinshi ziba zitandukanye, zikorerwamo ibikorwaremezo byinshi ,haba inyubako z'amashuri ni inyubako nziza cyane, twungukiramo ubumenyi, twigiramo ibintu byinshi bidufasha mu buzima bwa buri munsi.

Tugira inyubako ziba zitandukanye, hari izikorerwamo serivisi z'ubuzima, iyo warwaye ujyayo bakagusuzuma ,bakakuvura, baguha imiti iragufasha ubuzima bukongera bukagenda neza cyane.

Mu buryo bwo kwegerana n'Imana cyane, haba insengero ziba zitandukanye duhuriramo tugasenga. Haba urusengero rw'abanyagatolika, haboneka amashusho ya yezu n'aya bikiramariya, n'andi mashusho menshi adusobanurira cyane iby'iyobokamana.

Mu buryo bwo kwegerana n’Imana, tugira insengero ziba zitandukanye, duhuriramo, tugasenga, tukinjirana n’Imana cyane. Habaho urusengero rw’Abakatolike, Abapantekote, Abadive, Abayisilamu, Aba Yehova. Dusangamo amashusho aba atandukanye: amashusho ya Bikira Mariya, umusaraba uriho Yezu. Bidufasha kumva neza ijambo ry’Imana.

Mu buryo bwo kwegerana n'Imana haba insengero ziba zitandukanye, abantu bahuriramo bagasenga. Haba urusengero rw'Abanyagatulika, Abadive, Abapende, Abayehova, Abisilamu n'izindi nyinshi.

Tugiraga inyubako ziba zitandukanye. Hari inyubako zubabakirwa abantu baba batishoboye. Abanyarwanda muri rusange bahurirayo bakahakora umuganda, bakahasukura hagasa neza cyane. Iyo zimaze kuzura, baziha imiryango idafite aho kuba, idafite ubushobozi bwo kubaka izabo.

Mu bikorwa remezo habamo n'imihanda, imihanda myiza cyane, ibamo ibinyabiziga, hakaba n'akayira k'abagenzi bagenderamo. Ikabaho amatara n'ibiti ku muhanda bitanga amahumbezi.

Tugira inyubako ziba zitandukanye izo bacururizamo, izo basengeramo, izo bavuriramo, haba n'aho imodoka zihagarara zikajyamo ari nyinshi zikahaparika.

Tugira inyubako nyinshi ziba zitandukanye hari ayo bacururizamo, hari ayo basengeramo ,hari ayo bararamo, ziba zubatse mu buryo butandukanye haba amagufi n'amazu maremare aba ageretse akorerwamo imirimo iba itandukanye.

Tugira inyubako ziba zitandukanye, haba umuhanda mu muhanda haba ibyapa, biburira abagenzi n'abatwaye ibinyabiziga, kugirango birinde impanuka, za hato na hato, zikorerwa mu muhanda, cyangwa amakosa akorwa n'abatwaye, ibinyabiziga.

Buri munyarwanda cyangwa umunyarwandakazi agira uburenganzira bwo kuvuga, yaba umuntu ufite igitekerezo cyangwa ufite ikibazo afite uburenganzira bwo kugitangira mu nteko rusange; kikigwaho kigakemurwa ibintu bikagenda neza.

Haba uburenganzira bwa muntu, umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvugira mu ruhame, haba umugore, cyangwa umugabo, cyangwa umwana mutoya, afite uburenganzira busesuye bwo kuba yaje mu nama, agatanga igitekerezo cye.

Buri munyarwanda cyangwa umunyarwandakazi agira uburenganzira bwa muntu baha uburenganzira bwo kuvuga yaba umugore cyangwa umugabo avugira muruhame, afite uburenganzira bwo kuvuga ibiri ku mutima we, gutanga ikibazo cyangwa gutambutsa igitekerezo mu mbaga nyamwinshi byaba ari byiza bamuha amashyi.

Mu rwanda buri munyarwanda wese afite uburenganzira bwa muntu, haba uburenganzira bwo kuvuga, umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi afite uburenganzira bwo ku kuvugira mu nteko rusange, afite igitekerezo cyangwa ikibazo aragitambutsa abandi bakacyumva iyo ari igitekerezo cy'inyamibwa abantu bamukomera amashyi.

Buri Munyarwanda cyangwa Umunyarwandakazi wese, agira uburenganzira bwa muntu. Haba uburenganzira bwo kuvuga, bavugira mu ruhame, batanga ibitekerezo, batanga n'inyunganizi, haba mu nteko rusange.

Mu Rwanda buri munyarwanda wese aba afite uburenganzira bwa muntu ,haba uburenganzira bwo kuvuga akavuga ikiri ku mutima we haba mu nteko rusange umuntu akaba afite ikibazo ,cyangwa afite igitekerezo ahabwa ijambo kikaganirwaho niba ari ikibazo bakagikemura.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi tugira ibinyabiziga bidutwara haba ibitwara imizigo, n'ibitwara abantu rusange. Ibitwara imizigo, bitwara imizigo itandukanye, bigira aho bihagarara bigafata abagenzi. Aho biparika abagenzi baba bahagaze, bakajyamo bikabajyana aho bagiye.

Tugira ibinyabiziga biba bitandukanye, habamo moto. Moto ni ikinyabiziga cyiza cyane. Itwara umugenzi umwe n'uyitwaye bakaba babiri. Moto ikoresha moteri igenda ahantu hamanuka n'ahazamuka. Irihuta cyane . Moto ni nziza cyane.

Tugira urugendo rwa buri munsi, tugira ahantu dusanga imodoka, ziba ziparitse ari nyinshi cyane, haba abantu benshi cyane, habaa ibikorwaremezo byinshi, tuhasanga imodoka zikatujyana mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no mu bindi bihugu byo hanze.

Tugira gare zitandukanye mu gihugu cyacu habaho aho imodoka zihagarara, zigategereza abagenzi kugira ngo baze kuzisanga aho ngaho bitabagoye cyane, bakaza bagasanga ziparitse bikorohera abagenzi bose kugira ngo babashe kugera ahantu bagiye kandi bagereyo amahoro.

Ubuzima bwacu bwa buri munsi，dukenera ibinyabiziga biba bitandukanye. Hari ibidutwaza imizigo， hari ibitwara abagenzi，ibitwara imizigo ntabwo byo biba byemerewe gutwara abagenzi，bitwara imizigo， bikayishyikiriza aho igomba kugera kandi ku gihe.

Tugira ibinyabiziga biba bitandukanye habamo moto, yihutisha urugendo rwacu itwara umuntu umwe n'uyitwaye bakaba babiri, ihutisha urugendo tukagera aho tugiye ku gihe kandi itwara neza cyane.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi dukenera ibinyabiziga bidutwara mu rugendo rwacu, haba imodoka zitwara abagenzi rusange, haba imodoka nini cyane zitwara abantu benshi cyane zambukiranya imipaka, haba imodoka yitwa Jaguari ijya no mu bihugu byo hanze.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi dukenera ibinyabiziga, habamo imodoka itwara abantu rusange, imodoka igenda bashyizemo esase itwarwa na moteri, habamo umuntu uba ayitwaye n'abagenzi benshi abageza aho bagiye ku gihe.

Ibinyabiziga biba byiza cyane, bidufasha kwihutisha urugendo, bituma dukoresha iminota mike cyane, mu binyabiziga habamo amagare, amamoto ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi, dukenera ibinyabiziga bidufasha kwihutisha urugendo rwacu, urugero nka moto nini cyane izwiho gutwara imizigo, ikayihutisha cyane kugera aho igomba kugera, urugero nko gutwara ibicuruzwa, ibintu byo mu nzu, ibintu byose biremereye cyane.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi dukenera ibinyabiziga, dukenera imodoka. Iyo abagenzi babaye benshi muri gare, dutonda imirongo byaba ngombwa tugahaga abanyeshuri akanya, kugirango bagere ku bigo byabo cyangwa bagere iwabo hakiri kare.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi dukenera ibinyabiziga bitwihutisha mu rugendo. Haba ibinyabiziga bitwara abagenzi rusange, haba ibitwara imizigo. Bitwarara imisozigo iba itandukanye, bitwara ibirayi, amakara n'ibindi byinshi cyane umuntu atabasha kwikorera ku mutwe we.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi dukenera ibinyabiziga, haba imodoka, imodoka ni ikinyabiziga gitwara abantu rusange, kirihuta, gitwara abantu benshi, kibamo moteri, bashyiramo esansi kugirango ngo kibashe kugenda, kigenda ahantu hamanuka n'ahazamuka, kirihuta cyane.

Tugira ingendo ziba zitandukanye, hari izikorerwa imbere mu gihugu, hazi izikorerwa hanze y'igihugu, hari izigendera ku butaka, hari ingendo zo mu kirere, habamo indege, haba ibibuga byinshi by'indege bigiye bitandukanye, ushaka gutega indege ukora urugendo ukajya ku kibuga cy'indege.

Tugira ubwikorezi rusange ,habamo imodoka na moto bitwara ibintu byinshi biba bitandukanye ,imodoka zitwara, ibitoke ,amakara n'ibindi byinshi. Ibitoke ni byiza cyane, turarya, bituma umubiri wacu ukura neza, bitanga ubwirinzi mu mubiri ,byubaka n'umubiri wacu.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi, dukenera ibinyabiziga, haba ibinyabiziga bitwara abagenzi rusange, haba n'ibindi byigenga, urugero nk'imodoka, imodoka ijyamo esanse, bayishyira muri moteri ikabasha kwihuta cyane, igenda ahantu hamanuka n'ahazamuka, ni nziza cyane.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi, dukenera ibinyabiziga byo kutwihutisha mu rugendo rwacu. Habamo moto, moto ni ikinyabiziga cyihuta cyane gitwara umugenzi umwe na shoferi ugitwaye. Kigenda nka vero moteri, bashyiramo esanse cyangwa bakagicaginga.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi dukenera ibinyabiziga, tubisanga ahantu haba hatandukanye, biba byaparitse usangamo imodoka nto n'inini zitwara abagenzi rusange, haba na moto haba n'ibindi bikorwaremezo byinshi, haba hari n'abantu benshi cyane.

Habamo ibikoresho byinshi twifashisha mu bwikorezi bwacu, habamo imodoka nini cyane bita ibikamyo zitwara amatoni menshi cyane, zitwara imicanga, zitwara amabuye, n'ibindi bintu byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi dukenera ibinyabiziga, haba imodoka, haba ahantu ziba ziparitse ari nyinshi cyane zitegereje abagenzi, habamo abantu benshi, haba n'ibindi bikorwa remezo biba bitandukanye. Imodoka zigenda ahantu hatandukanye mu gihugu hose, zijya no hanze y'igihugu.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi dukenera ibinyabiziga, habamo moto habamo n'imodoka n'ibinyabiziga byiza cyane bigira moteri bashyiramo lisansi, bigenda ahantu hamanuka n'ahazamuka birihutaga cyane.

Mu bwikorezi bwacu bwa buri munsi， tugira imodoka zidutwaza imitwaro，zitwara sima， zitwara amabati zikayajyana kuri sitoke， abantu bajya bakenera kubaka， bakajya kubizanayo bitabagoye cyane.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi dukenera ibinyabiziga bitwihutisha mu rugendo habamo moto. Moto ni ikinyabiziga gitwara umuntu umwe n'ugitwaye wa kabiri. Gikoresha moteri bashyiramo esanse cyangwa bakagicaginga.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi dukenera ibinyabiziga bitwihutisha mu rugendo rwacu, habamo n'imodoka, tuzisanga ziba ziparitse, haba abantu benshi, haba ibinyabiziga byinshi, ziba zije mu gihugu hose ndetse no hanze y'igihugu.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi dukenera ibinyabiziga. Haba ibinyabiziga bitwara abagenzi ba rusange, haba ibinyabiziga bitwara imizigo, haba ibinyabiziga biba bitandukanye. Haba aho tujya tubisanga. Usanga hari ibikorwaremezo byinshi biba bitandukanye. Haba ibinyabiziga biva mu bice by'ibihugu bitandukanye, ndetse no hanze yacyo.

Tugira ibinyabiziga biba bitandukanye twifashisha mu rugendo rwacu rwa buri munsi, haba amagare atwara abagenzi, agatwarwa n'imizigo, atwara n'amashu, abagore na bo bafite uburenganzira bwo kujya bayatwara.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi dukenera ibinyabiziga bidutwara mu rugendo, haba amagare, ikinyabiziga gitoya gitwara umuntu umwe n'umunyonzi wa kabiri ugitwaye, kigenda ahantu hamanuka n'ahatambika, nta bwo kibasha kuzamuka cyane, kubera ko nta moteri kiba gifite.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi, dukenera ibinyabiziga, bitwihutisha mu rugendo rwacu, habamo moto, ikinyabiziga cyihuta cyane gitwara umuntu umwe, n'ugitwaye bakaba babiri.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi, dukenera ibinyabiziga bitwihutisha mu rugendo: habamo imodoka, amagare, haba imodoka zitwara abagenzi rusange, haba n' amagare atwara imizigo, atwara imifuka, umuntu atabasha gushira ku mutwe ngo ayikorere agende.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi dukenera ibinyabiziga bitwihutisha mu rugendo, dukenera amagare, ni ikinyabiziga kitagira moteri gitwara umuntu umwe, gitwara n'imizigo n'ibindi byinshi cyane.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi dukenera ibinyabiziga, habamo amagare, igare ni ikinyabiziga kitagira moteri, kigenda ahantu hatambika gusa n'ahazamuka gakeya, nta bwo kihuta cyane.

Tugira ingendo ziba zitandukanye, hari zibera ku butaka, hari n'izibera mu kirere. Ingendo zo mu kirere zifashisha indege zijya mu bice bitandukanye by'isi, zitembera mu gihugu cyacu no hanze y'igihugu cyacu.

Mu rugendo rwacu rwa buri munsi dukenera ibinyabiziga. Haba imodoka zitwara abagenzi rusange, zitwara abagenzi benshi. Imodoka ibamo moteri bashyiramo risanse, ikabasha kuzamuka ahantu, no kuhamanuka, n'ahatambika hose irahagenda.

Siporo ni nziza cyane ituma umubiri wacu ugororoka, tukagira ubuzima bwiza cyane, buzira umuze, habaho ubwoko bwinshi bwa siporo: gukina umupira, hari umupira wa vore, uwa basiketi n'ubundi bwoko bwinshi cyane.

Siporo ni nziza cyane mu buzima bwacu, dukora siporo ziba zitandukanye ,umuntu wakoze siporo agira ubuzima buzima buzira umuze, atekereza neza, haba siporo ziba zitandukanye haba izo gukina umupira, kwirukanka n'izindi nyinshi cyane.

Siporo ni nziza cyane haba siporo ziba zitandukanye zituma imibiri yacu igororoka ,zituma tugira ubuzima bwiza, haba siporo yo gukina umupira w'amaguru mu kibuga , habamo abasifuzi bacunga abakoze amakosa. Iyo umupira ugiye mu izamu igitego kikinjira baba batsinze.

Siporo ni nziza kumubiri wacu, zituma umubiri wacu ugororoka, zituma tugira ubuzima bwiza, haba siporo z'amoko menshi aba atandukanye, haba siporo bakinisha agapira gato, baba bafite n'akandi kantu mu ntoki bakubitisha, bagasimbutsa iyo karenze kakagwa mu kibuga cy'abandi ntibagakubite uba watsinze.

Siporo ni nziza cyane ifasha imibiri yacu gukora neza ,ituma imibiri yacu igorororoka .Haba siporo ziba zitandukanye, hari siporo yo gutwara igare ,batwara igare bakagira n'amasiganwa ,bakagenda ibirometero byinshi cyane ,ababa aba mbere bahabwa n'ibihembo.

Siporo ni nziza cyane ituma imibiri yacu igororoka, ituma tugira ubuzima bwiza, haba siporo z'ubwoko bwinshi buba butandukanye, haba iyo gukina umupira, haba umupira wa vore bakina umupira bawurenza fire, bakina bakoresheje amaboko wagwa mu kibuga cy'abandi bakaba baratsinzwe.

Siporo zidufasha kugorora imibiri yacu tukagira ubuzima bwiza, haba siporo ziba zitandukanye haba siporo yo kwiruka, siporo yo kwirukanka habamo n'amarushanwa ugomba kwirukanka, uwabaye uwa mbere agahembwa ibihembo bishimishije cyane.

Siporo ni nziza cyane zituma imibiri yacu igorororoka, haba siporo z'ubwoko bwinshi, haba gukina umupira w'amaguru, abakinnyi bagira imyambaro yihariye iba ifite nimero mu mugongo, kugira buri wese amenye aho arakina.

Siporo ni nziza cyane mu buzima bwacu, ituma imibiri yacu igororoka, haba siporo ziba zitandukanye, haba siporo ya Vore, bafata umupira n'intoki, bakawuhererekanya, bawurenza agafire, wagwa mu kibuga cyabo hagati baba batsinzwe.

Siporo ni ingirakamaro cyane mu buzima bwacu ,ituma tugira ubuzima buzima, bituma dushyira ubuzima buzira umuze, urugero nko gutwara amagare ni imwe muri siporo zizwi cyane hano mu Rwanda haba n'amarushanwa yo gutwara aya magare, hakabamo n'ibihembo bishimishije cyane.

Siporo ni nziza cyane zituma imibiri yacu igororoka. Zituma tugira ubuzima bwiza buzira umuze, hakaba siporo zibaga zitandukanye haba siporo yo gutwara n'amamodoka, haba amamodoka yabugenewe mato. Haba n'amarushanwa uwatsinze agahabwa ibihembo bishimishije.

Siporo ni nziza cyane ku mubiri wacu, ituma umubiri wacu ugororoka, ituma tugira ubuzima bwiza haba ubwoko bwinshi bwa siporo, haba umukino wa kiriketi ,bafata umupira bakawukubitisha akantu baba bafite mu ntok, iyo ugiye ukagwa mu kibuga cy'abandi ntibabashe kugakubita, baba batsinzwe.

Siporo ni nziza cyane, ituma imibiri yacu igororoka, ituma tugira ubuzima buzira umuze, haba siporo nyinshi cyane zitandukanye, haba gukina umupira, sporo nziza cyane, habamo n'ibihembo ku batsinze, itanga n'ibyishimo.

Siporo ni nziza cyane mu buzima bwacu, zituma imibiri yacu igororoka, zituma tugira ubuzima bwiza buzira umuze, haba siporo ziba zitandukanye, abagiye gukina umupira haba gukina umupira w'amaguru uw'amaboko n'indi nyinshi cyane.

Tugira siporo ziba zitandukanye, harimo n'imikino myinshi cyane iba itandukanye, muri siporo zacu habamo basketi ni umukino bafata umupira bakawirukankana, bakanaga mu gapaniye uwo umupira uciye mu gapaniye neza aba yatsinze.

Siporo ni nziza cyane, zituma imibiri yacu igororoka zituma tugira ubuzima buzira umuze, haba siporo ziba zitandukanye, nka siporo yo gutwara amagare, haba amakipe, haba n'amarushanwa, abatsinze bagahabwa ibihembo bishimishije cyane.

Siporo ni nziza cyane mu buzima bwacu, ituma imibiri yacu igororoka, ituma tugira ubuzima bwiza, haba siporo ziba zitandukanye, haba siporo yo gukina umupira, iya vore, sporo ni nziza cyane, umukobwa ya yikina, n'umuhungu ya yikina, abantu bose bakwidagadura cyane.

Habaho siporo ziba zitandukanye， urugero： Siporo yo koga ni siporo nziza cyane， umuntu wese ashobora kuyikora. Ni siporo bakora bari koga mu mazi， ikorwa n'abantu bayizi，gusa habaho n'amarushanwa，umuntu watsinze akaba yahabwa ibihembo bishimishije cyane.

Siporo ni nziza cyane ku buzima bwacu, ituma imibiri yacu igororoka. Ituma tugira ubuzima bwiza cyane. Haba siporo ziba zitandukanye. Haba siporo y'umupira w'amaguru, haba amakipe, amakipe aba agizwe n'abantu cumi n'umwe, n'umuyezamu wa cumi na kabiri. Bakina umupira mu kibuga, baba bafite n'amazamu y'umupira. Iyo umupira winjiye mu izamu haba habaye igitego.

Siporo ni nziza cyane mu buzima bwacu. zatumaga imibiri yacu igororoka . Ituma tugira ubuzima bwiza. Haba siporo ziba zitandukanye . Si poro yo gukina umupira w'amaguru. Bashyira umupira mu kibuga, bakawirukaho bashaka gutsinda mu izamu. Iyo igitego cyinjiye mu izamu baba batsinze.

Siporo ni nziza cyane. Ituma imibiri yacu igororoka, ituma tugira ubuzima bwiza. Habaho siporo ziba zitandukanye. Hari siporo yo kwiruka, ni nziza cyane rwose. Abantu barirukanka imibiri ikagororoka. Bagira n'amasiganwa uwabaye uwa mbere agahembwa cyane.

Siporo ni nziza cyane ituma imibire yacu igororoka, ituma tugira ubuzima bwiza, haba siporo z'amoko menshi, haba siporo yo gukina umupira ,haba vole habamo n'amarushanwa abatsinze bagahabwa ibihembo bishimishije cyane.

Siporo ni nziza cyane mu buzima bwacu, ituma imibiri yacu igororoka, ituma tugira ubuzima bwiza cyane, haba siporo z'ubwoko butandukanye, haba gukina umukino wa volley ball, bagira imipira ifite sayise zitandukanye, haba imito n'iminini.

Siporo ni nziza cyane, ituma imibiri yacu igororoka, ituma tugira ubuzima bwiza, haba siporo ziba zitandukanye, haba siporo zo gusimbuka urucyiramende, bashyiraho ahantu harehare buri wese ashoboye gusimbuka utahashoboye aba yatsinzwe.

Siporo ni nziza cyane zituma umubiri wacu ugororoka zituma tugira ubuzima bwiza, siporo ziba zitandukanye hari siporo yo gutwara amagare bajya bagira amarushanwa bakagenda ibirometero byinshi ,uwabaye uwa mbere arahembwa agahabwa ibihembo bishimishije.

Siporo nziza cyane ituma imibirii yacu igororoka utumaga tugira ubuzima buzira umuze, haba siporo z'amoko menshi, haba umupira wa voreboru, umupira bakina n'intoki ukinwa mu buhanga, abakobwa n'abahungu bose barawukina, barenza fire wagwa mu kibuga cy'abandi hagati, abo uguye mu kibuga cyabo bakaba baratsinzwe.

Siporo ni nziza cyane, ituma imibiri yacu igororoka, ituma dugira ubuzima bwiza. Haba siporo zitandukanye, haba siporo za voreboro, barenza umupira agafire, haba n'amakipe, haba n'amarushanwa, abatsinze abandi bahabwa ibihembo.

Siporo ni nziza cyane mu buzima bwacu, ituma imibiri yacu igororoka, ituma tugira ubuzima bwiza, haba siporo zitandukanye, haba siporo yo koga, ni nziza cyane, ituma dushira amavunane, ituma tugira ubuzima buzima, haba n'amarushanwa, abantu bakoga mu mazi hajyamo abantu bazi koga gusa, abatsinze bagahabwa ibihembo.

Siporo ni nziza cyane, ituma imibiri yacu igororoka, tukagira ubuzima buzima, haba ubwoko bwinshi butandukanye bwa siporo: habaho siporo yo kwiruka, gukina umupira, haba siporo yo gukina basiketi; bafata umupira bakawudunda n'intoki bakawunaga mu gapaniye, wacamo neza ukaba uratsinze.

Siporo ni nziza cyane mu mibiri yacu. Ituma imibiri yacu igororoka, ituma tugira ubuzima bwiza. Haba siporo ziba zitandukanye. Hari siporo yo gutwara amagare, haba amarushanwa, uwabaye uwa mbere ahabwa ibihembo.

Siporo ni nziza cyane mu buzima bwacu, ituma imibiri yacu igororoka, ituma tugira ubuzima bwiza. Haba siporo ziba zitandukanye, haba siporo yo gukina umupira, bashyira umupira mu kibuga bagakina igitego cyaca mu izamu bakaba baratsinze.

Siporo ni nziza cyane, ituma imibiri yacu igororoka, ituma tugira ubuzima bwiza, haba siporo zitandukanye, bakwiye yo gukina umupira, barakina, haba n'amarushanwa, abatsinze bahabwa ibihembo bishimishije.

Siporo ni nziza cyane mu buzima bwacu. Ituma imibiri yacu igororoka . Ituma tugira ubuzima bwiza cyane. Haba siporo zitandukanye. Haba siporo yo gutwara amagare, haba n'amarushanwa ku rwego rw'igihugu, abatsinze bagahabwa ibihembo bishimishije.

Tugira imihanda tuba twifashisha mu rugendo rwacu, igenderwamo n'ibinyabiziga byinshi cyane :nk'amamoto ,amamodoka ,amagare, amamoto ,na yo agira uruhare mu gutwara abagenzi ,akabihutisha cyane mu rugendo rwabo.

Tugira imihanda myinshi cyane idufasha mu rugendo rwacu. Haba imihanda irimo kaburimbo, imihanda itarakorwa neza ikiri ibitaka. Na yo ariko ibinyabiziga biyinyuramo bikatugeza ahantu haba hatandukanye tuba dushaka kujya.

Tugira imihanda myinshi iba itandukanye haba imihanda minini, hakaba n'imihanda mitoya, hari ishamikiye ku minini. Mu mihanda mitoya hakaba imihanda irimo kaburimbo n'imihanda itarakorwa neza ikirimo ibitaka.